Idarapo ni ikirangantego cy'igihugu cyacu, amadarapo amanikwa mu bigo bya leta, amadarapo akamanikwa no ku mashami agiye atandukanye, harimo ku murenge, ku karere, ku kagari ahantu henshi hagiye hatandukanwe amadarapo arakoreshwa.

Gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ni kimwe mu nkingi y'iterambere ry'igihugu cyacu, kuko ikoranabuhanga ni ikintu kigezweho, kandi kidufasha gukora ibintu byacu mu buryo bworoshye.

Hari ahantu badodera ibikoresho bigiye bitandukanye, hari imashini z'amoko menshi, ahangaha bahigishiriza abanyeshuri, hari imashini zifasha mu gusirifira imyenda, hari imashini zifasha mu kudoda imyenda igiye itandukanye.

Aba ni abakozi bakora muri hoteri. Muri hoteri haba hafite isuku. Abantu batuye hirya no hino, turabashishiriza gusura hoteri zo mu Majyaruguru. Ni hoteri nziza, zikora neza zifite abatetsi babyigiye, kandi bakora akazi kabo neza vuba.